n'icyapa cy'ubururu yankishijweho amagambo y'umweru harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite n'ikindi cyapa mu ntoki cy'ubururu n'umweru yandikishwaho amagambo y'umweru ibizazane by'ubuzima nibiteguza ubwishingizi bw'impanuka bwa pinme bugufasha kuguma utekanye

Amafaranga magana atanu yandikishijweho amagambo y'umukara, hariho abana batatu, babiri b'abahungu n'umwe w'umukobwa bafite mudasobwa imbere yabo, hariho ibiti by'icyatsi, ikiraro cy'umukara.

Ni umukambwe wambaye marinete n'umusore wambaye isaha, utubido tw'amabara y'umuhondo n'umweru, amandaze ari mu ndobo, imigati iri mu ndobo.

Ni akazu ka mpande enye gafite amabara y'umuhondo harimo abantu imbere yako hari umuntu wambaye umupira w'amabara y'umukara hari n'amagambo yandikishijeho ibara ry'umweru.